Umukobwa uri kwambuka umuhanda, ari kugenda n'amaguru, hirya ye hari imodoka, imoto, kandi iyo moto ihetse umuntu.

Biragaragara ko aba baturage bahuriye ahantu hamwe. Ikindi kandi bafitemo abapolisi n'abasekirite babacungiye umutekano. Mbese umutekano gwabo gumeze neza.

Uko bigaragara izi ni ingabo z'u Rwanda ziri gucunga umutekano ;ingabo z'u Rwanda zibikora mu gucunga umutekano turazikundaga.

Inama irimwo abaturage benshi kandi inama iba iri kwigirwamo ingingo zitandukanye zo kugira ngo abaturage bagire imibereho zimeze neza.

Ibi bikoresho bya kinyarwanda byakoreshwaga, byabikaga neza, nk'agacuma kukanyweramo inzoga byabaga ari byiza cyane ukoresheje umuheha.

Aba bakobwa barindwi bakenyeye imikenyero ari wo muco nyarwanda. Niko tubyita. Ikindi kandi biragaragara ko bambariye uyu mukobwa wo hagati bameze neza cyane.

Umukobwa wambaye imyenda zigaragaza umuco gwa kinyagwanda, uri guhinga akoresheje isuka, hijya ye hari n'amatungo gari kurisha mu byatsi bimeze neza.

Intore ziri guhamiriza, zifite amacumu, zambaye amayogi zifite abakaraza mbese ziri kubyina neza cane.

Umuco gwa cera abantu bambaraga hasi, hejuru bakambara ubusa, abamama bagatega amasunzu, intore ziri guhamiriza zifite amacumu ziri guhamiriza neza cane.

Aba bantu uko bigaragara bari kubyina. Gusa ntabwo bari kubyina ibijanye buri wese ari guhamiriza ukwe, nta n'umwe uri kubyina ibisa n'iby'undi.

Urukiza, agacuma, inkoko, ikirago ni ibikoresho bya kinyarwanda, harimo n'ibigikoreshwa n'ibitagikoreshwa kubera iterambere. Agacuma kabikaga inzoga neza.

Umutsima gw'amasaka gumeze neza, gurajyoshe kandi ahantu habaye ibirori byo kwizihiza umuco bakoreshaga ugo mutsima.

Bano ni ababyinnyi bari kubyina, hari n'intore ziri guhamiriza. Ikindi kandi bambaye n'imyenda za gakondo.

Nk'uko biri kugaragara, uyu mubyeyi ari kubeta amamera yo kuva mo ikigage, akoresheje igikoresho cyo hambere twita urusyo.

Igisabo, umukenyero, ugu niumuco nyagwanda. Umukobwa ukenyeye, wambaye neza, hijya ye hari utundi twana dupfukamye ubona ko hari utundi tuntu duhugiyemo.

Aba bantu tubita abakaraza cyangwa abavuzi b'ingoma. Bazivuza iyo ahantu habaye ikirori runaka, mbese habaye nk'umunsi mukuru.

Amashuri gubatse neza, ndetse garagerekeranye, garakorotiriye. Gameze neza ku buryo kuhiga biteye ishema.

Amazu gubatse neza gasakaje amabati gameze neza, amadirisha gazo gameze neza, n'inzugi. Ikindi kandi akoregwagamo imirimo zitandukanye n'ubucuruzi n'ibindi.

Iyi kiliziya ya Rwaza yubatse neza ku buryo bugezweho Kuko yashinzwe cyangwa yubatswe ku mwaduko w' abazungu.

Uru ni rusengero . Abantu baba bahahuriye baturutse mu mayira gatandukanye baje kuhasengera. Ikindi urusengero ruragaragara neza cyane. Gusenga ni byiza.

Biragaragara ko aka karere ari aka Musanze kubatse neza, kuko karakorotiriye cane, hari aho imodoka ziparika, kubatse ku muhanda mbese kameze neza.

Iyi nzu iberagamo imanza uko bigaragara bari kuyubaka kuko iruhande rwaho hari abantu bambaye imipira itukura ukuntu bari kurwubaka bimeze neza.

Inzu barimo kubaka, iruhande gwaho hari ibyatsi ikindi kandi hirya yayo hari agandi mazu gahubatse.

Amazu abiri akikijwe n'ibiti bitandukanye. Inzu imwe imbere yaho hari ikigega, igiti cya avoka ndetse hashinze n'amapoto y'amashanyarazi.

Nk"uko bigaragara aha hantu hubatse neza, hari inyubako imeze neza kuko iyi nzu yubatse neza, isakaje amabati gameze neza, hari n'ikigega gifata amazi, hari ibyatsi, hameze neza cane.

Nk'uko tubibona iyi nyubako ni iya leta ndetse n'abaturage, yubatse neza kuko irageretse, yubatse ku buryo bugezweho bwiza cane. Hijya y'aho hari ibiti, imbere y'aho hasashe amakave, hameze neza cane.

Ndi kubona umuntu uri gushyira ikarita y'urugendo ye mu mashini, kugirango abashe kwishyura. Iyi karita umuntu uyifite yishyuraga make, ugereranije n'utayifite. Iyi karita y'urugendo ni nziza.

Nk'uko bigaragara, aha hantu ni aho haparika imodoka. Ikindi kandi, iyo witegereje ubona ibinyabiziga bimwe byinjira, iruhande rwaho haparitse amamoto, ikindi kandi hirya y'aho hari umuntu ucuruje amayinite.

Nk'uko bigaragara, aba ni abanyonzi. Hirya yabo hari abamotari, abatwaraga imodoka. Mbese abantu bari hano bakora imirimo zitandukanye bakoresheje ibinyabiziga.

Biragaragara ko muri uyu muhanda harimo urujya n'uruza rw'abantu bari ku binyabiziga bitandukanye; bamwe bari kugenda ku moto, abandi bari kugenda n'imodoka mbese ni ubucucike bwinshi bw'ibinyabiziga.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kujya mu ngendo zitandukanye, bari kuza aho bafatira imodoka, bari kwinjira mu modoka nini, harimo abanyeshuri bari kujya kwiga.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaboko, ku ruhande rumwe bagiye kubatsinda, abandi bari kubarwanya, kugira ngo batabatsinda ku giti.

Umuntu ukunda siporo, azinduka ari kuyikora, ku mugoroba akayikora, aho ayikorera hameze neza harubakiye, nta kibazo hameze neza.

Biri kugaragara ko hano bari gukina umupira. Ikindi kandi hari n'abafana kuruhande bari kureba uko bari gukina. Gusa biri kugaragara ko igitego cyamaze kwinjira.

Biragaragara ko aba bantu bane bari gukina umupira w'amaboko. Umwe afite umupira ari gushaka kujya kubatsinda, babiri muri bo bakamurwanya bamufashe kugira ngo atajya kubatsinda igitego.

Nk'uko bigaragara aba ni bakinnyi, bicaye ahantu heza, bambaye neza, bajyanishije, baraberewe mu buryo bwose, bameze neza cane.

Nkuko bigaragara iki ni ikibuga bakiniragamo umupira. Cyubatse neza ,abantu babona aho bicara bakagama izuba, mu gihe cy'imvura ntibanyagirwa, mbese kimeze neza cane.

Aha hantu ni heza cane ,abantu bakunda kuhaza ,ukaza kuruhukira mu mutwe ,muri make bahasohokerana.

Uko biri kugaragara aba ni abakobwa bari kwirukanka bakora siporo, siporo ni nziza kuko ituma umubiri ukora neza.

Aba ni abasore batatu bari gukina umupira w'amaboko, umwe muri bo ufite umupira ari gushaka kuja gutsinda, undi akamutangira kugira ngo atamutsinda.

Inzira z'ubusamo zibaga nziza, kuko zituma ugera aho ushaka kujya. Ikindi kandi ndikubona, muri aka kayira hari amazu gameze neza, hateye ibiti bya avoka bimeze neza cane.